Abantu bazwi nko mu nzego z'umutekano bazwi nk'abasekerite, bambaye imyenda igiye gusa n'igitaka, ingofero zazo zisa n'igitaka bambaye na bote z'umukara.

Abagabo bahagaze, abagabo bane. Bahagaze uwa kane n'umukurudofensi, yambaye inifomu y'icyatsi.

Abantu bari mu nzego z'umutekano, bagizwe n'abaporisi n'abadaso, n'abasirikari, harimo n'abagabo bahagaze, bambaye gisivire, bari mu gikorwa cyo gutanga za bote.

Abapolisi bakora umurimo wo gucunga umutekano, bahagaze hamwe basa naho bari k'uburinzi, bambaye iniforume isa n'umukara, bambaye n'ingofero z'umukara, bose hamwe batonze umurongo.

Guteka bikoreshwa ku buryo butandukanye hari abateka ku mbabura abandi bagateka ku mashyiga. Uyu mukobwa wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umweru witeze n'ingofero y'umutuku atetse kuri gaze, hariho n'andi magaze ateretse ku ruhande asa n'umutuku.

Abadaso bahagaze batonze umurongo bambaye inifomu isa n'icyatsi, ingofero zabo zisa n'icyatsi. umutoza wabo ari kubaha amabwiriza mbere yuko batangira akazi.

Ibihugu byose bigira abasirikari, abasirikari bahagaze hamwe harimo n'umukuru wabo, basa naho ari kubatoza ibyo bagomba gukora.

Abantu bicaye imbere y'ameza manini, baramburiyeho umwenda w'icyatsi. Harimo abasirikari n'abapolisi, ndetse n'abandi bayobozi. Imbere yabo hateretseho icupa ry'amazi, basa n'aho bari mu nama.

Umukobwa wambaye ibya gisirikari, ahagaze mu ishyamba, yambaye ingofero, yambaye ku rutugu rwe ikintu kimeze nk'amayenyeri ari ku rutugu.

Abasore n'inkumi babarizwa mu nzego z'umutekano bazwiho nk'abasirikare, bahagaze ku burinzi basa naho bari kurinda umutekano.

Abantu bameze nk'abaporisi n'abasirikari. Harimo umuzungu, bambaye imyenda isa n'ubururu, bahagaze hamwe basa n'aho bavuye ku ikosi.

Abantu benshi bahagaze ku muhanda bafite za moto, bategereje abagenzi bambaye ibigofero bya kasiki.

Umugabo mwiza cyane, wishimye wambaye amanyenyeri asa naho ari umupolisi, yambaye ingofero nayo iriho ipeti. Uyu mugabo asa naho ari umuntu ukuze, utari umusore cyane, utari n'umusaza cyane.

Umugore wicaye n'umucungagereza afite mikoro, asa naho ari gutanga ikiganiro yambaye amapeti.

Ubwato buri mu mazi burimo abantu bari kugenda bari kwambuka, buri mu mazi asa neza. Ubwato bufite ibara ry'umukara n'umweru, harimo abantu bambaye imikara n'umutuku.

Abantu bicaye bicaye hamwe nko muri sale, bari mu nama imbere yaho hari ibitabo n'amacupa y'amazi, baravanze harimo abagore n'abagabo.

Abantu bicaye bari mu nama, biteretse agacupa k'amazi imbere ya bo. Abantu bambaye imyenda y'umweru n'iy'umutuku, bafite na mikoro imbere ya bo, kugira ngo amajwi yumvikane neza.

Abantu bahagaze, bamwe baricaye harimo umugore wambaye ikanzu, ikanzu y'igitenge gifite amabara y'ubururu n'umukara. Bamwe baricaye, abandi barahagaze.

Abantu bicaye basa naho bari mu nama ,hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro igiye gusa n'igitaka, n'ishati y'umweru ,afashe mikoro asa naho ari kwigisha inama.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe basa n'aho bari kwandika nk'abari mu nama, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, higanjemo umutuku n'umweru, havanzemo abagore n'abagabo.

Abantu baricaye bari mu nama bambaye imyenda itandukanye iy'umutuku iy'umweru n'iy'ubururu. Hari umugabo uri inyuma yabo wambaye umukara n'ingofero y'umukara.

Abantu bahagaze bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye bamwe bambaye imyenda isa n'umweru, abandi bambaye imyenda isa n'imikara, abandi bambaye ingofero zimwe z'umukara, izindi z'umutuku.

Abagabo n'abagore benshi cyane bahagaze ahantu hubatse itente. Bafashe impapuro zisa naho ari seritifika bari bahawe.

Umugabo uhagaze afite indangururamajwi, asa naho afite ijambo ari kubabwira, abo ari kubwira bambaye imipira isa n'imihondo indi isa n'umutuku.

Abantu benshi cyane basa naho bari gufata ifoto, bamwe barasutamye abandi barahagaze, bambaye imyenda isa n'aho itandukanye imwe n'ubururu, indi n'umweru.

Intore zambaye amayugi, zambaye n'ubuhura, zifite amayugi, ziri kubyina.

Umusaruro w'ibitoki, barabica bakabitara, byamara gushya bakabitonora bakabishyira mu gikoresho kitwa umuvure, bagakamamo umutobe, nyuma y'umutobe ukabyara inzoga.

Igikoresho kifashishwa mu gusekura isombe cyangwa inzuzi, cyangwa n'ibindi bintu byinshi bikunze kuvamo ifu. Bakita isekuru, ikorwa mu giti. Isekururu ni nziza, irimo n'umusekuzo ari wo bifashisha bari gusekura.

Ibikoresho by'ibicuma n'inkiza, bisarurwa ku nzuzi zitwa imyungu. Iyoo baziteye ziraranda bakazubakira zikera, noneho ibicuma n'inkiza bihavuye, abantu bakajya barabinyweramo.

Abantu bahagaze bari kureba abandi bari kuboha imikeka. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imituku, icyatsi, ubururu, ndetse abandi bari gushungera.

Icyibo gifite amabara atandukanye umweru, ubururu, umukara, icyibo gifite imirimo myinshi itandukanye, nko gutwerera no kubika ibintu.

Umuntu usa n'aho ari umwami washokoje amasunzu yambaye ikanzu, ahagaze wenyine, ameze nk'aho ari umusore ntabwo yari yasaza.

Ikibindi cyuzuyemo inzoga cyangwa umusururu biri kubimba urufuro, harimo n'imiseke enye , umusururu bagiye kuwunywa kuberako bashyizemo imiseke.

Abagore bambaye imikenyero y'umutuku n'udupira tw'umweru, bari kuboha uduseke bicaye hamwe basa naho bari mu ishyirahamwe.

Ibicuma ni igikoresho cyakundwaga cyane, aho abantu basigaye barakoresha ibikoresho bya kizungu, ibicuma n'igikoresho cya kinyarwanda, cyeraga ku inzuzi, hamwe n'ibindi bintu byitwa inkiza.

Inka ziragirwa, barazishora zikanywa n'amazi. Izi nka ni za zindi zo mu bwoko bw'inyambo, zigira amahembe maremare, zikunze kuboneka mu karere k'i burasirazuba.

Umugabo ushokoje amasunzu, yambaye imyambaro y'abakera, bigaragara ko ameze nk'umwami wa kera.

Imitako myiza cyane, abagore n'abakobwa basigaye barishyize hamwe ku gikorwa cyo kuboha imitako. Abantu bo mu mahanga iyo bageze mu Rwanda barayigura bakayijyana iwabo.

Ababyinnyi ni abantu beza cyane. Mu muco nyarwanda, nta bukwe bwataha hatabotsemo ababyinnyi. ababyinnyi iyo bari kubyina bashimisha abatari bakeya, kuko baba bari kubyina, bari kugorora ingingo, bari gukora n'imyitozo idasanzwe.

Umugore ukenyeye igitenge cy'umutuku ,kirimo amabara y'umuhondo, yambaye n'umupira urimo amabara, yiteze n'igitambaro cy'igitenge ,ari kugosora imyaka. Kugosora imyaka bifashisha igikoresho bita intara.

Abantu bakora umuco wa kera bari gucuranga bakoresha ibikoresho bitandukanye bamwe bakoresha inanga, abandi imyirongi, abandi ubuduri, abandi amakembe. Aho umusore afashe umwirongi ari gucuranga asa naho ari gucurangira abantu.

Inkono z'itabi zikunze kunyweramo n'abantu b'abakecuru cyangwa abasaza. Izi nkono barazibaza, bakazishyiramo n'imiseke. Izi nkono zisa naho ziri ku isoko.

Ikigega gihunika imyaka itandukanye, gihunika imyaka kugira ngo ibashe kuramba. Iyo ugihunitsemo imyaka iba ifite ubudahungabana.

Ingoma ni igikoresho cyiza gikoreshwa mu bukwe. Impande ya zo hahagaze umwana uri kwiga kuvuza ingoma. Uyu mwana yambaye imyenda ya kaki ni umuhungu.

Umuntu uhagaze, afashe inkoni, akenyeye imikenyero. Asa n'aho aho aragiye inka, afashe inkoni. Izi nka ni izo mu za kera, zifite amahembe manini. Kuko ubungubu nta nka zifite amahembe zikiboneka.

Ibicuma bibiri birimo imiseke hariho n'inkangara zirambitse ku mukeka, bisa naho iyi nzu ari iy'ubugeni birambitse imbere yayo.

Umugabo uhagaze afite ibikoresho byo guhogorora inzoga itaze mu kibindi. Inzoga ziva mu bitoki baca bagatara, byamara gushya bakabikama bikavamo inzoka.

Abagabo bakenyeye imikenyero, harimo umugabo umwe ukenyeye umukenenyero w'umweruru, n'umwitero w'umweru, abandi bambaye imikinnyero y'umukara.

Ikipe y'abakinnyi batonze umurongo, basa n'aho bari gukina umugozi. Bamwe bambaye amajire asa n'umuhondo. Abandi bambaye udupira tumwe dusa n'umutuku. Abandi barahagaze, bari kureba.

Ubukwe ni bwiza cyane, intore ziri kubyina aho ubukwe bwabereye haba hasa neza, hari abantu bishimye cyane, bubatse n'amatente asa n'umutuku, abakobwa bari kubyina harimo umuhungu wambaye ubusa akenyeye igishura.

Ubwatsi bw'inka busa naho bwageze igihe cyo gukururumba batabukeze. Ubu bwatsi busa naho izuba rivuye bwahita bwuma.

Itsinda ry'abagore bicaye bari kuboha ibiseke bifite amabara atandukanye, bambaye imyenda bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bisa n'aho ari koperative.

Igiti kibajwemo intebe za Kinyarwanda, iyi ntebe ifite ibara risa n'umukara. Intebe ikunze kwicwarwaho n'abantu bakuze, iyi ntebe isa naho ari umukara.

Igicuma gitatse cyuzuyemo, cyuzuyemo inzoga iri kubimba fufu, gisa, gifite ibara ry'umutuku havanzemo umuhondo.

Umugore wicaye afashe igicuma bita igisabo. Bagicundiragamo amata. Asa naho agiye gucunda amata, kuko yicaye ahantu hashashe neza.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa kera mu bantu bakunze gucurangira abantu, mu buryo bwo gushimisha abantu basa n'aho bari mu birori. Cyitwa umuduri. Uyu mugabo afashe umuduri asa n'aho ari gucurangira abantu.

Ikibindi kirimo imiseke, cyuzuyemo inzoga cyangwa se umusuru. Uri kubimba urufuro ,gisa n'aho kirikubira.

Umugabo uhagaze usa n'aho ari kuvuza umwirongi. Yambaye ikote risa na kaki, ingofero y'umweru ifite urugara imberere. Impande ye hariho indabo zisa n'icyatsi ziriho inyuma ye mu mugongo.

Umukobwa wambaye agapfukamuwa afite ikirago kiboshye mungoyi y'amabara y'umukara n'umuhondo, yambaye n'imyenda y'umukara.

Umusore wambaye imikenyero, asa n'aho ari intore. afite ingabo afashe n'icumu. Impande ye hari abandi bantu basa n'aho ari abakaraza b'ingoma.

Abantu bafite imiheto n'umwambi bari gufora, bisa naho bari kwiga kurwanisha intwaro za gakondo.

Abasore bari gukina, bari gusimbuka, bari gukina, harimo umwe uri gusimbuka umugozi, bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, ubururu, icyatsi, imikara.

Umunsi mukuru iyo wabaye abantu bitwa abakaraza baraza kuvuza ingoma. Bakazivuza bakenyeye imyitero, imikenyero n'imyitero bose kandi baba ari abagabo.

Abantu bakenyeye imikenyero harimo abagabo babiri n'umugore umwe, umugore akenyeye imikenyerero y'umutuku na gapira k'icyatsi, aba bagabo bakenye imikenyero y'ikijuju umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye agapira k'ubururu, aba bantu basa naho bari gufata ifoto.

Intore ziri kubyina zambaye amayugi, zambaye n'ubuhura mu mutwe zifite ingabo, zambaye hejuru zambaye ubusa.

Abasore basa naho bari kwishimisha. Bari kwiga gufora bifashishije imyambi n'umuheto. Ibi bikoresho byifashishwaga mu kurwana kwa kera.

Iki ikigega bakoresha bari guhunika, gihunika imyaka itandukanye ibigori, ibirayi, amasaka. Ikigega bagikoreshaga kera, bacyubakishaga imigano.

Abakobwa b'intore bari kubyina bambaye imikenyero y'ubururu, biteye n'utwitero dusa n'umweru, bambaye n'amasengeri y'umukara. Inyuma y'aho hariho abantu bari kuvuza ingoma bita abakaraza.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga n'abantu bo hambere: harimo ibicuma, harimo ni inkiza, hari kugaragaramo n'umubirikira usukira inzoka mu kidomoro.

Ababyinnyi bazwi ku izina ry'intore bambara amayugi, bambara ibihura, bafata ingabo n'amacumu, bakizihiza abantu bari kubareba.

Itabi rihaguye ku giti bita umuvumu riratohagiye, rifite amababi asa n'icyatsi kibisi. Aya mababi ameze nkaho bayaciye bagiye kuyataka ahantu.

Igikoresho gakondo kibajijwe mu giti ,gikamirwamo amata y'inka iki gikoresho cyagaragaraga mu bantu bo hambere.

Umuntu w'umugabo wambaye ikabutura y'umweru n'ishati y'umuhondo, ari gusimbuka umugozi. Abantu benshi cyane batonze umurongo, basa n'aho bari kumureba, ukuntu ari gusimbuka.

Mu Rwanda habamo ubukorikori bwinshi , aho bazi kuboha imitemeri, ibyibo habagaho niyo bari kuboha ibirago. Ibi byibo biratantse abantu babyifashisha bari kwikorera amafuki.

Ingobyi ni nziza, ifasha abantu kugera Kwa muganga. Bayihekamo umuntu warembye, bagashyiramo imijishi, bagateka ari abantu bane.

Abantu bari hamwe bambaye neza, bashokoje neza basa nk'abambaye impete mu mutwe, bameze nk'abantu bari kunywa mu ntango, bafite imiseke bara sutamye bari gusoma bari kurebana.

Igikoresho cyo mu bwubatsi cyitwa ipenzi. Gifunga ibyuma. Gifite ibara ry'umukara n'iry'umuhondo.

Inzu, inzu z'insengero zubatswe ku buryo butandukanye, aho zimwe ziba zifite umunara, izindi zifite imisaraba, izindi nta musaraba ziba zifite.

Abagabo bunamye bari kubaka, bameze nkaho ari abafundi bambaye ingofero zabugenewe zisa n'umutuku, bambaye n'amajiri asa n'umweru, n'ibara ry'umuhondo ku ruhande.

Inzu yubatse nka kiliziya irakinguye, imbere yayo hariho indabo zifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abaturage birunze hamwe basa n'aho bavuye mu nama, bari kumwe n'abayobozi, hari biganjemo abadaso n'abapolisi, basa n'aho bari kubabyinira. Aba baturage barishimye cyane, basa n'aho bahawe impanuro nziza.

Isoko ry'ibiribwa bita kariyeri, hasi yaryo hahagaze abantu benshi, bamwe baricaye bari gucuruza, iri soko ryiganjemo ibiribwa bitandukanye, ibyinshi n'imboga n'imbuto ziba ziganjemo.

Umugabo uhagaze imbere yinyubako ifite amakaro hejuru, imbere ye hariho umuhanda wa kaburimbo, asa naho agiye kuvoma kumugezi uri imbereye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite ubusitani, ifite irangi ry'umuhondo n'iry'umutuku, isa neza ifite amadirishya y'ibirahuri.

Inzu isa n'aho ari urusengero, ishakajwe amabati asa n'umutuku. Imbere yaho hariho ikintu gihagaze hejuru kiriho umusaraba. Umusaraba kenshi na kenshi ni wo uranga inzu y'urusengero.

Abantu benshi batondekanye ku kiraro cy'ibyuma basa naho bari gucambuka. Bamwe bacyambutse abandi bahagazemo hagati. Bambaye imyenda itandukanye bamwe bambaye imyenda y'imituku, n'iy'imihondo, n'iy'icatsi.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, ifite n'umunara, iyi nzu ni kiliziya isengeramo abakirisitu bab'agatulika, iteraniramo abantu benshi cyane bakuzura.

Inzu nziza cyane isa naho yuzuye vuba, ifite umuryango ukinguye ifite yubakishije amatafari ahiye , isakajwe amabati y'umutuku, inyuma yayo hari ibiti byiza cyane, bisa n'aho biyikikije.

Mu gihugu harimo inyubako zitandukanye kandi nziza. Amagorofa afite amakaro n'ibirahuri kugeza hejuru. Mu gihugu cyacu gifite inyubako zigezweho, wagira ngo ni mu mahanga.

Abantu benshi bakunda gusenga, aho ahantu henshi mu gihugu hubatswemo inzu z'urusengero, abantu bagaturuka impande zose bakaza kuzisengeramo.

Ikigonderabuzima cya Gataraga gishakajwe amabati y'umutuku. Hejuru y'iyo nzu, hariho ikigega. Imbere yacyo hariho ubusitani.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, kuri iyo nzu hejuru hashushanyijeho umusaraba, hasi y'iyo nzu hahagaze umukecuru wambaye igitenge cy'igitaka n'umupira y'umweru, iyo nzu ifite amarangi y'umukara n'icyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hasi yayo hahagaze abantu b'abagore n'abagabo ,bambaye imyenda itandukanye, imyenda y'imikara, n'iy'imyeru n'iy'ubururu.

inzu y'urusengero ifite umunara hejuru, ishakajwe amabati y'umutuku, umuryango wayo urakinguye, yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu nziza yubatse ishakaje amabati y'ubururu, ifite n'ibirahuri by'umukara, ifite n'urugi rw'umukara rusa naho rukinguye, imbere yaho hariho ubusitani bumeze nkaho hari pasiparume.

Abantu bicaye bambaye imyenda, imyenda ifite amabara atandukanye harimo abambaye imipira yumutuku, impande yabo hariho umufuka.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikingishijwe urugi rwa metalike, imbere yayo hariho ubusitani na pasiparume.

Umuhanda usa naho ukozwe vuba uri mw'itaka ry'umutuku bisa naho ari bishasha, uyu umuhanda uzengurutse akantu kameze nk'ishyamba uri mu ikorosi werekeza ahantu hari ikirere gikeye.

Abantu benshi bari imbere y'inzu, yubatse nkurusengero, basa nkaho baje gusenga, bambaye imyenda yamabara atandukanye, imyeru, n'ubururu n'umutuku.

Inzu zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'umutuku, izi nzu zifite inzugi z'ibiti, imiryango ibiri irakinguye ,aho umuryango umwe uhagazemo umuntu wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru.

Inzu isa n'aho ari urusengero. Ifite hejuru umusaraba. Irakinguye, nta bantu bari ku ruhande rwayo, iri yonyine.

Inyubako nziza cyane yubakishije amabati asa n'umutuku, ifite inzugi zifite ibirahuri bisa n'aho byijimye. Iyi nzu hasi imbere y'aho hashasheho amakaro.

Ibishyimbo iyo byumye barabisarura, bakabihura, nyuma yaho ibishogoshogo bakabijyana mu yindi mirimo itandukanye, babisasiza intoryi cyangwa amashu, n'izindi mboga nyinshi zitandukanye.

Abantu bicaye wagira ngo bari mu nama ,mbere yaho imbere yabo hahagaze umugore ufite mikoro niwe uri kubaremesha iyo nama.

Abantu bahagaze hamwe, bahagaze ikirundo bambaye amashati y'icyatsi, bose bambaye imyenda isa.

Abantu bateraniye hamwe basa n'aho bari mu nama cyangwa se bari muri korali, aho umugore ushokoje neza, afashe mikoro asa n'aho ari kwigisha. Ahagararanye n'umugabo wambaye ingofero itendeye mu maso, y'umweru.

Umugore wambaye ibitenge. Yiteze ikindi gitenge. Impande ye hariho abantu benshi b'abagabo, n'abandi benshi b'uruvunganzoka bicaye. Basa n'aho bari mu nama.

Abaturage benshi batonze umurongo imbere y'umuntu usa n'aho ari umuyobozi. Bari kumwereka ibibazo bafite, wagirango ni amadosiye. Bari kugira ngo abafashe, basa n'aho bari bararenganyijwe.

Moto izwi ku izina ryitwa rifani, ikunze gutwara imizigo, iri mu ibara ry'umutuku ifite amapine atatu.

Mu ngendo zacu za buri munsi hifashishwa ibinyabiziga bitandukanye amamodoka, amagare ,n'amamoto, aho imodoka zihagaze n'abamotari bahagaze bategereje abagenzi.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi, izwi nko gutwara abagenzi, yifashishwa mu gutwara abagenzi benshi kuko hajyamo umubare mwinshi cyane. Hejuru hariho abantu benshi bagiye mu ngendo zitandukanye.

Abagore bikoreye imizigo basa n'aho bagiye mu rugendo. Bambaye ibitenge bidozwemo amaribaya.

Sosiyete itwara abagenzi yitwa Rwanda eya, iyi ndege iri kuguruka iri mu kirere, isa naho itwaye abagenzi ibajyanye mu mahanga. Iyi ndege ifite ibara ry'umweru ni ry'ubururu iri kuguruka.

Ubucuruzi bw'ibitoki aho ibitoki bibiri bihambiranyije hamwe biri inyuma yumugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, impande hariho n'imodoka wagirango ngo niyo igiye kubipakira.

Imodoka nyinshi zihagaze ahantu hameze nko muri gare. Harimo abantu benshi bagiye gutega imodoka.

Abantu bicaye mu kimoto cy'amapine atatu, moto isa n'ubururu, abantu bambaye amataburiya, bambaye n'ubupfukamunwa.

Abana barashimisha cyane, aho umugore n'umugabo we basigatiye umwana wabo, basa naho ari umuhungu, akana kabo kambaye akakabutura k'umuhondo n'agapira k'umweru.

Abantu bahagaze bafite amamoto bategereje abagenzi, bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara y'umutuku, n'ubururu, n'umuhondo.

Amamodoka ahagaze n'amamodoka y'ubwikorezi, imodoka imwe isa n'umutuku hari indi modoka isa n'icyatsi indi ni ubururu.

Mu ngendo z'abantu za buri munsi bifashisha ibinyabiziga. Aho abamotari benshi bahagaze hamwe, bategereje abagenzi bagiye mu ngendo zitandukanye gushakisha imibereho yabo.

Umuntu wicaye w'umukobwa yambaye ikote ry'umukara, mu nda yambayemo agapira k'umweru, impande ye hari amakasike y'amamoto na yo kasike y'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abamotari, bahagaze ahantu bategereje abagenzi, bambaye amakasike atandukanye amwe asa n'umutuku andi asa n'umuhondo, bahagaze bose bategereje abakiriya.

Indege iri mu kirere iri kuguruka. Ifite amapine, ifite amabara atandukanye, harimo ubururu n'umweru, n'umukara.

Imodoka itwara abagenzi bita bisi, bayita bisi, ifite ibara ry'umweru, impande yayo hari umuntu uhagaze, amanitse amaboko.

Abantu bahagaze muri gare bari impande y'amamodoka atwara abagenzi, abantu ni benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye y'ubururu ,umutuku, umweru n'umukara.

Abasore basa naho bari kurushanwa ku magare, bambaye udupira tw'ubururu, bambaye n'utugofero, bafite n'ibendera, abasore basa naho bari mu irushanwa.

Abantu benshi cyane, batonze umurongo. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Hari abambaye imyenda y'imituku, abambaye imyenda, y'icyatsi hari abambaye n'ingofero, harimo n'uwambaye ingofero y'umweru. Bategereje imodoka, bagiye mu ngendo zitandukanye.

Abantu benshi bahagaze muri gare bari gushaka imodoka zitwara abagenzi. Hahagazemo imodoka nyinshi n'abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, higanjemo ibara ry'umutuku.

Ikimoto gikunze gutwara ibintu cyitwa lifani gitwaye ibintu byiganjemo imboga harimo: ibitunguru, tungurusumu, beterave ,shufureri, amashu, n'ibindi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari kugendesha amagare. Bamwe ni abanyonzi abandi bari gutega amagare bari kugenda mu mpande zitandukanye, bari kujya guhaha abandi barikujya gusura inshuti zabo.

Imodoka yitwa virunga itwara abantu benshi cyane, ikabajyana mu ngendo nyinshi zitandukanye. Ifite imyanya myinshi ntabwo ihwanye n' utundi tumodoka dutoya.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi, itwara abagenzi rusange. Ihagaze imbere yigorofa rirerire risize irangi ry'umweru n'umukara.

Moto yo mu bwoko bwa livani ikunze kwikorera imizigo. Impande yayo hahagazeho abagabo babiri bambaye imyenda isa, isa n'ubururu, bambaye n'inkweto zisa n'umweru.

Imodoka zihagaze muri gare bisi zitegereje abagenzi, abagenzi batonze umurongo bagiye kuzijyamo bagiye mu ngendo zitandukanye, impande y'izo modoka hariho abantu bari mu mitaka, abakozi ba emutiyene.

Urujya n'uruza rw'abantu buzuye mu mujyi. Bamwe bari kugenda n'amaguru, abandi barahagaze, abandi bari gucuruza bari mu mitaka isa n'umuhondo, imwe ya yindi ya Emutiyeni bazwiho gutanga amayinite.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari ibikorwa byinshi abantu bakora bagahembwa. Uyu mugore ahembwe igare, none ari kuricunga, ari kurigendesha aryiga kugira ngo azamenye kurigendesha.

Umuntu ari ku igare ahetse umufuka. Ari kugenda mu muhanda w'ibitaka. Inyuma ye hariho igihuru kirimo agashyamba.

Ahantu hazwi nko muri gare hatondekanyemo imodoka zitegereje abagenzi. Zihagaze zitondekanye kumurongo, zo mu bwoko bwa bisi.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umutuku, iyi modoka irimo n'amahema asa n'aho atwikiriye ibintu, ihema risa n'ubururu wagira ngo ritwikiriye ibintu, iyi modoka isa n'aho iri kugenda.

Abasore bari muri siporo bambaye amasengeri y'ubururu n'amakabutura y'umukara. Harimo umwe wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa uri gukina umupira yambaye inkweto n'ikabutura y'icyatsi, n'isengeri y'icyatsi, asutse imisatsi ari gukina wenyine ntawundi bari kumwe.

Abasore bo mu ikipe bita Amavubi, bambaye amatiriningi asa n’umuhondo hejuru ari ubururu. Imbere yabo hasutamye uwambaye umutuku, asa nk'aho ari mu izamu.

Abasore n'inkumi bose bambaye imipira isa n'icyatsi, bose bazamuye amaboko hejuru basa n'aho bishimiye insinzi.

Abantu bahagaze hamwe basa naho bari kuganira, bahagaze bari kurebana, bambaye imyenda imwe isa n'umuhondo ,umwe yambaye agapira k'ubururu, hariho n'undi wambaye agashakete k'umuhondo, mu mugongo handitswemo kabiri.

Umusore uri ku igare rya siporo yambaye ikabutura y'umutuku uvanzemo ubururu n'umupira w'ubururu uvanzemo umutuku n'ingofero y'ubururu. Uyu musore asa nkaho ari ku irushanwa ry'amagare.

Abantu bari kugenda ku magare basa n'aho bari ku makurusi y'amagare. Bambaye amakabutura y'umukara n'amasengeri y'ubururu, andi asa n'icyatsi.

Ikibuga cyo gukiniramo umupira kirubakiye hanyuma hari n'imyanya bita tiribine. Inyuma y'icyo kibuga hari n'ibiti biri inyuma yacyo.

Abantu bambaye amapantaro namashati asa, bambaye ingofero zidasa, bambaye bamwe bambaye umuhondo abandi bambaye ubururu.

Ikipe y'abakinnyi bambaye imyenda itandukanye, basa n'aho ari amakipe abiri, bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, abandi bambaye iy'umutuku.

Abasore bahagaze, bishimye, bambaye imyenda isa n’ubururu, ibaranga yanditseho, imwe yanditseho cumi na rimwe, indi yanditseho icyenda. Bishimiye intsinzi, basa naho batsindiye igikombe.

Urubyiruko rurangwa no gukina cyangwa gukora za siporo. Abasore beza, batonze umurongo, bambaye imyenda ya siporo: amakabutura y’ubururu n’imipira y’ubururu. Umwe yambaye agapira gasa n’icyatsi.

Agapira ko mu bwoko bw' agatenesi abana baragakunda, bakunda kugakina, ndetse kakaba n'akarembezo k'abana batoya. Iyo bari kugaramba bahita babahereza aka gapira kitwa agatenesi, bagahita bahora.

Urubyiruko ruhagaze rusa naho ari abakinnyi bambaye amasengeri y'ubururu n'amakabutura y'ubururu. Abandi bambaye amapantaro y'umukara n'imipira isa umutuku, harimo umwe wambaye ingofero y'umuhondo n'umukobwa ufite icumu asa naho ari gufora.

Abasore bafite ikipe nk'iy'abakinnyi b'umupira. Bambaye amasengeri y'ubururu, bambaye n'amakabutura y'umukara. Baricaye hasi bose bategereje gukina.

Irushanwa ry'amagare, aho urujya n'uruza rw'abantu bahagaze ku muhanda, bari kureba ukuntu amagare ari kugenda. Umusore wambaye ikabutura y'umukara, n'umupira w'umuhondo, n'akagofero k'ubururu, ari kugendesha igare.

urujya n'uruza rw'abantu bari muri sitade bari gukina, harimo n'abafana benshi baje gufana abakinnyi, bambaye imyenda y'amabara atandukanye imihondo n'ubururu.

Umusore uhagaze mu kibuga, yambaye ikabutura y'umukara, n'isengeri y'umukara. Afashe umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Abasore bari gukina umupira, bambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu.

Abana bambaye amasengeri y'umuhondo n'amakabutura y'umukara. Bambaye n'inkweto za pantufure mu birenge. Barasa naho bari gukina umupira.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu yubatse ifite amadirishya y'umweru, isize irangi ry'umuhondo, abantu bahagaze ari benshi bambaye imyenda itandukanye, zimwe n'umuku, indi n'ubururu, indi n'umuhondo.

Abakinnyi babiri basa naho bari gufata ifoto bari kwishimira intsinzi y'umukino witwa tenisi. Bigaragara ko uwo mupira w'umukino ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho bigaragara ko umwe wagira ngo ni umuzungu.

Umukobwa mwiza wasokoje neza, yambaye agakabutura k'ubururu n'agapira k'umukara; afashe umupira mu ntoki asa naho ari kuwerekana wifashishwa muri vore boru.

Ikipe y’abakobwa isa naho iri gukina umupira cyangwa vole, bambaye amaniforume atandukanye; bamwe bambaye asa n’ubururu, abandi bambaye asa n’icyatsi.

Umukobwa uri gukina umupira ari gukina vore, yambaye agasengeri kanditseho gatandatu, ari gukina wenyine nta wundi muntu bari kumwe.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, isa n'aho ifite ibintu igiye gupakira, iruhande rwayo hariho umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umukara, asa n'aho ari umuzungu.

Inzu bita Arena. Ishinzwe kwakira abantu bose baje kwizihizamo ibirori, cyangwa se bagakiniramo n'imipira. Cyane ko abanyeshuri bagiye kurangiza, barangije amashuri ari mo bakirirwa bari kubambika amakanzu.

Abakobwa, abahungu batonze umurongo, bifashe neza, basa naho bari gufata ifoto. Bambaye imyenda itandukanye; imwe isa n’umukara, indi isa n’umutuku, n’imipira isa naho isa n’ubururu.

Amakipe y'abakinnyi bari gukina vore, bamwe bambaye amakabutura y'icyatsi n'amasengeri y'imihondo, abandi bambaye amasengeri y'imituku n'amakabutura y'igitaka.

Amagare atunze abatari bakeya b' urubyiruko; abasore batatu basa n'aho bari kunyonga amagare, bambaye imyenda itandukanye uwo hagati, yambaye agapira k' ubururu n' ikabutura y' icyatsi.

Abantu bahuriye mu nzu bita sitade. Basa n'aho baje gufana abakinnyi b'umupira. Bambaye imyenda itandukanye y'amabara yose. Harimo n'iy'imyeru. Iyindi y'umuhondo n'indi y'ubururu.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyenda itandukanye, ifite ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo. Bari gukina basa naho bari mu kibuga gifite ibara ry'ubururu ,hagati harimo ibara ry'umutuku.

Abasore bari gusimbuka umugozi, impande hariho abasore babiri bameze nk'aho ari abafana, hirya y'aho hariho ibiti bimeze nk'aho ari agashamba.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze bashungereye imodoka, iri kugenda mu muhanda iri kubatera ivumbi. Bambaye imyenda itandukanye irimo iy'umutuku n'iy'ubururu.

Abasore beza cyane harimo n'ufite ubumuga. Bambaye udupira dusa tw'umutuku. Bambaye n'utugofero tw'umweru. Bambaye n'amapantaro ya kaki. Harimo imeze nk'ubururu, inkweto nziza zisa n'umweruru.

Abantu bari kurushanwa barikugendesha amagare, bambaye imyenda isa, ifite amabara y'umuhondo n'ubururu, bari kurushanwa bari mumuhanda.

Abasore bahagaze harimo n'umukobwa, bafite amagare ya siporo bambaye udupfukawa basa naho bagiye kurushanwa ku magare, aba basore bambaye utugofero bose.

Abasore bari muri siporo, bambaye amakabutura y'imyeru n'amasengeri y'imyeru. Mu mugongo umwe handitsemo gatanu, afite umusatsi uriho ibisuko, undi afite amaherena.

Abantu benshi bishimye bari mu gikorwa gisa n'aho bari kwamamaza. Aba bantu bafite amabendera y'igihugu. Bambaye imyenda inyuranye y'amabara atandukanye. Aba bantu basa n'aho bari kwamamaza ibijyanye n'amatora.

Abakobwa babiri bafashe umupira, basa naho bari kuwukina. Bambaye amakabutura asa n'ubururu, andi asa n'umukara. Bambaye n'udusengeri, kamwe gasa n'umweru, akandi gasa n'ubururu, kanditse ijambo icumi.

Umuhanda, umwe mu mihanda uzwiho nka kaburimbo binyuze mu rusisiro, hakurya yawo hagaze abantu bari imbere y'amazu y'ubucuruzi, ayo mazu nayo yubatse neza asize amarangi y'umuhondo ayandi asa n'icyatsi.

Umwuga uzwi nko gutwara abagenzi ku magare. Abantu batwara abantu ku magare, babita abanyonzi. Aba banyonzi bambaye amapantaro, bambaye n'ijire, umwe yambaye n'ijire ry'umuhondo.